Inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abayobozi baturutse mu maminisiteri, uw'intara, ingabo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, mikoro, amacupa y'amazi ndetse n'amakaramu bari kwandikisha ibiri kuhavugirwa.

Abantu bitabiriye ikirori bahagaze bambaye amakositimu ,bari gufotora ababyinnyi ba kinyarwanda bakenyeye imyitero gakondo .Bambaye rugabire, amayogi, bateze kinyarwanda ,bari kubyina bapfukamye hasi.

Umucuranzi wambaye imyenda yumweru areba hasi, ari kuvuza umwironge igikoresho nyarwanda bakoresha, bari kuririmba cyangwa bari gucyura inka.

Itorero rigizwe n'abahungu n'abakobwa biteye imyitero baririmba, bakoma amashyi, bavuza ingoma bakoresha imirishyo, ababyina bateze neza bambaye amayugi n'ibindi bikoresho bya kinyarwanda, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ikirunga.

Karicaro vireji. Umudugudu cyangwa ahantu ndangamateka babyinira bakagaragaza ibintu bya gakondo, inzira ijyayo, ndetse n'abantu bahereza ikaze abahinjira.

Indyo gakondo zigizwe n'amadegede, ibishimbo, ibijumba by'amaganda, ibirayi by'amaganda, ibitoki by'amaganda bidahase, inkoko, rukacarara, ipapi iriho amakanya, n'agaseke ku ruhande.

Inzira igana ku mazu abiri imwe iri mu ruzitiro ifite amabati y'umweru, indi itari mu uruzitiro ifite amabati y'umukara isize ibara ry'umweru, igiti cy' avoka kibafasha kubona imbuto zo kurya ,amashanyarazi ndetse n'imisozi ihazengurutse ituma haba heza.

Umugore utwaye igare ririho amajerekani. Ndetse n'abandi benshi berekeje ku isoko mu muhanda w'igitaka bamwe bagenda n'amaguru abandi ku magare bamwe bikoreye abandi batikoreye bagiye guhaha.

Imodoka ntoya ikoreshwa mu marushanwa yo gusiganywa. Ibyapa bitandukanye byamamaza ibigo bikorana n'irushanwa biteye mu busitani bw'umucaca, kaburimbo nziza yo kugirango irinde impanuka mu gihe amarushanwa yaba akomeje.

Abakinnyi batwara amagare mu irushanwa Nyarwanda ry'amagare, bambaye impuzankano yabo, imodoka, ndetse n'ibyuma bijyaho amabendera y'ibihugu byitabiriye.

Abakinnyi b'ikipe y'isonga ba hendibolo bari gukina mu kigo cy'amashuri mu kibuga kigizwe n'amapave .Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu bahagaze bakurikiye umukino ,ndetse n'umusifuzi umanitse akaboko uri gusifura uyu mukino wambaye umwenda wa jone.